Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya airtel mu rwanda kari mu ibara ry'umutuku. Umuryango wako urafunguye, ndetse imbere hariho agapapuro gasa umweru. Inyuma yako hari izindi nyubako zifite amabati ashaje.

Umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN mu rwanda, hicayemo abantu babiri, ndetse n'umwe uhagaze. Hirya y'uwo mutaka hari andi mazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Hari imbuga ngari igizwe n'amapave.

Umumama wambaye agapira gasa umweru arimo guseka, ahagaze mu bicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imineke, avoka, amandazi, amazi, amaji, ndetse n'inkweto z'ubwoko butandukanye.

Abagabo babiri umwe ni umukozi wa sosiyete y'itumanaho ya Eyateli, iruhande rwabo hari akandi kameza handitseho amagambo, "MTN Mobile Money", bari kuganira baseka.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN kicayemo umumama urimo guha serivisi abagabo ndetse n'abamama babiri, barimo kubikura, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga.

Akazu kubatswe mu byuma kari mu mabara y'umuhondo. Kicayemo umuntu ufite imisatsi isutse. Arimo kwakira umukiriya, bisa nkaho yaje kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga. Ni aka sosiyete y'itumanaho ya MTN mu Rwanda.

Igikoresho k'ikoranabuhanga, gikoreshwa n'abantu bashaka kubikura amafaranga aba ari ku makarita yabo mu buryo bworoshye. Ikiganza cy'umuntu utagaragara neza mu maso, arimo aragikoresha abikura amafaranga.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya Eyateli mu Rwanda, harimo umuntu wambaye umupira, gasa umutuku, iruhande rwako hari umuntu uhagaze ku igare ndetse wubitse umutwe, hirya y'aho hari andi mazu.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye amajire, ya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyeni. Inyuma yabo hari imodoka ziparitse, ndetse mu muhanda wa kaburimbo hari kugendamo amapikipiki, ndetse n'imodoka ya ritico.

Utuzu tubiri dusha umuhondo, twa sosiyete y'itumanaho ya MTN mu Rwanda, kamwe karafunguye kicayemo umuntu, hirya ye hari abandi bantu bari gusohoka ndetse bisa nkaho hari serivise bashaka kumwaka.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho ya MTN,gateretse ahantu konyine. Karafunze nta muntu uri kugakoreramo. Handitseho amagambo ari mu mabara y'umukara tubitayeho, hari igishushanyo cya telefoni.

Abagabo batanu bahagaze imbere y'icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse amagambo ariho yanditse mu ibara ry'umweru, mu kazi kose, nabakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya Eyateri.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo. niaka sosiyete y'itumanaho rya MTN mu Rwanda, gafite amagambo yanditse mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, hashushanyijeho telefoni.

Imifuka yose y'umuceri, iri mumabara atandukanye, ifunze kuburyo utapfa kumeneka, yose ni ibiro makumyabiri na bitanu.

Icyumba cy'inama, giteraniyemo abantu benshi batandukanye, harimo abamama ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku. Imbere yabo hari abandi bantu bicaye, bari kubagezaho imbwirwaruhame. Hejuru kuri parafo hasa umweru ndetse n'amatara aracanye.

Abagabo ndetse n'abagore, bahagaze imbere y'inyubako ya etaje. Ifite amadirishya afite amabara y'umweru. Inkuta zayo zirasa ivu. Iruhande rw'iyo nyubako hateye ibiti bitandukanye.

Abantu benshi higanjemo abakuze ndetse n'abakiri bato, bamwe muri bo bambaye imipira isa ubururu bicaye ahantu muri tente, baratuje bisa nk'aho aho hari ijambo bakurikiye.

Icyumba kirimo kwaka amatara asa icyatsi, hahagazemo abagabo ndetse n'abagore bambaye amakositime, barasa neza ndetse bari guseka.

Imbuto ni zimwe mu zikunzwe n'abantu benshi kubera ko zifashishwa mu kurinda indwara ndetse no kubaka umubiri, inanasi ziteye ahantu mu murima nyinshi cyane.

Abamama bane bari kugenda, bari kwihuta, bisa nkaho bagiye kwinjira mu muryango ufunguye, urugi rw'uwo muryango rufite ibara ry'umweru, iyo nzu ifite amadirishya agera kuri ane, atanga akayaga.

Abamama bagera kuri batanu bose bahagaze ahantu hamwe. Imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho bitandukanye baje kumurika, bisa nk'aho ari ibyo bakora mu buzima bwabo bwa burimunsi kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Ameza ateretseho amasahani atatu ariho ibiribwa bitandukanye, hari iriho inyama ziri ku mishito ndetse iruhande rwazo hari icupa riri mu bwoko bwa Skol.

Ibinyobwa, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye biri ahantu mu ma etajeri yabyo. Imbere hari izindi ziteretse, bisa nkaho ari mu kabari. Umuntu ushaka icyo kunywa, araza akagifata nta kibazo.

Inzoga z'amoko atandukanye harimo pirimusi, mitsingi, ndetse n'izindi nzoga z'amarikeri, ziteretse muri etajeri, iruhande rwazo hari igikoresho kifashishwa mu gukonjesha. Inzoga zikunze kunyobwa n'abantu mu gihe k'izuba.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, imbere yaho hari udutebe twicaraho abantu iyo bari gufata icyo kunywa, inyuma yaho hari igikoresho cyifashishwa mu gukonjesha izo nzoga kuko usanga abantu benshi bakunda inzoga zikonje.

Icyumba kiza ndetse kirakeyeye kirimo intebe ziteye neza, zifite ibara ry'umukara, hirya gato hari aho bacururiza ibintu bitandukanye.

Icupa risa move ifite umufuniko w'umukara iruhande rwayo hari igikarito, ndetse kuri iryo cupa hariho igishushanyo cy'ifi handitseho amagambo tomato sosi.

Inyubako irimo ibicuruzwa bitandukanye, imifuka, indagara, ubunyobwa, amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo umumama wambaye agapfukamunwa gasa umweru ndetse n'ubururu.

Umumama wambaye agapfukamunwa gafite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, yicaye mu bicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta, indagara, ubunyobwa ndetse n'imifuka, acuruza kandi n'ibiribwa by'amakaroni.

Ibinyobwa bidasembuye by'ubwoko bumwe, biri mu gikoresho gikoreshwa mu gukonjesha ibinyobwa. Ikinyobwa kizwi ku izina ry'inaji, uwakinyoye ahorana akabaraga ndetse n'akanyamuneza.

Isabune ntoya yakasweho indi sabune iteretse kuri etajeri munsi yaho hari ibindi bi bikarito birimo ibindi bicuruzwa bitandukanye hano bisa nkaho ari muri butike.

Udukingirizo turambitse ahantu ku meza turi mu ibara ry'umutuku amagambo ariho ari mu ibara ry'umweru. Iyo ukoresheje agakingirizo neza, kagufasha kwirinda indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Umudamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda jeannette kagame; ari kumwe n'abandi bantu bambaye imipira y'icyatsi, bari gufungura ku mugaragaro igikorwa runaka gishobora kuba kigiye kuba.

Umu mama usa nk'ukuze wambaye itaburiya y'umweru ari kwitegereza mu gutwi kw'umwana kugirango arebe ikibazo cyaba kirimo, hari undi muntu ubyibushye wambaye agapira k'icyatsi, afite kandi imisatsi myiza isa umukara.

Inyubako nini kandi ngari imbere yayo hari abantu benshi batandukanye biganjemo abagabo ndetse n'abagore bahagaze ahantu hamwe, imbere y'iyo nyubako hari ikindi giti kihateye.

Umuhanda w'igitaka uparitsemo imodoka za'amoko atandukanye, ziparitse imbere yinyubako ndende, bisa nk'aho ari iz'abantu baje ku hasengera, hepfo yiyo nzu hateye ibiti byinshi by'amoko atandukanye.

Abagabo bambaye amakositime bahagararanye nabama babiri. Umwe ni umuzungu, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Bahagaze bose bafatiye amaboko ku bibero byabo.

Inyubako nziza ifite parafo isa umweru, irimo etajeri zigiye zitandukanye, ziriho ibikoresho bitandukanye, bikozwe mu buryo buboshye.

Icyumba gisa neza, kirimo intebe z'amadiva, ari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi. Hirya ndetse no hino hariho udusego, umuntu yisegura. Harimo intebe ndetse n'andi meza atandukanye.

Inyubako ndende ya etaje iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hejuru hari amagambo ahanditseho ari mu ibara ry'umutuku, Erija hoteri, imbere yayo hari imbuga ngari yisanzuye iparikwamo amamodoka.

Icyumba kiri ahantu hatuje hari ibitanda bibiri byose bisashe neza, hariho amashuka asa umweru ndetse n'imisego isa umweru, umuryango urafunguye kugira ngo habashe kwinjiramo akayaga, hanze hari izindi ntebe zihateye.

Icyumba kirimo uburiri busashe neza, hari kandi intebe ihateretse iyo ubyutse wicaraho urimo kuruhuka cyangwa se utegereje gukora izindi gahunda, umuryango wacyo urafunze.

Ubwogero bugari buzwi nka picine buri ahantu hisanzuye hafite akayaga ndetse n'amahumbezi, hino yayo hari udutebe umuntu umaze koga aruhukiramo kugira ngo yumve atuje.

Icyumba kirimo imeza, iriho igitambaro gisa umweru. Hateguyeho ibirahure kandi bisa neza. Inyuma hari urukuta rusa umukara. Umugabo urimo, yambaye ishati y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'umweru. Ni umuseriveri.

Inyubako nziza kandi ngari iteye amarange asa umuhondo, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo ubwatsi butoshye kandi busa neza, iruhande hazitiwe n'indabyo z'imikindo.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho, imbere yayo hateye ibiti by'imikindo ndetse hari n'amadarapo agiye atandukanye, amwe muri ayo madarapo harimo ibendera ry'Igihugu riri mu mabara: umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Igitanda kiza kiriho amashuka asa umweru, gisashe neza mu buryo bugezweho, hariho imisego igera muri ine, yose iriho utwenda dusa umweru, hari urukuta ruriho itara.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye bisa nk'aho ari mu isoko, umugabo umwe wambaye agapfukamunwa afite gitari mu ntoki ze zombi arimo gucurangira abantu kugira ngo bishime bamuhe kumafaranga.

Ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda yo kwambara, iri ahantu mu isoko, hahagazemo abaguzi ndetse n'abacuruza iyo myenda, hirya yayo hari inyubako itaruzura neza.

Ibikoresho bitandukanye birambitse ahantu hasi, byifashishwa mu kwiyorosa mugihe umuntu aryamye, hirya yabyo hari umuntu wunamye, usa nk'aho hari icyo agiye gufata hasi, hirya hari ibyatsi bitoshye.

Ihene nyinshi ziri ahantu hamwe ndetse zifite amabara agiye atandukanye, imwe muri zo irapfukamye, bisa nkaho inaniwe hahagazemo umugabo utagaragara mu maso, wambaye ipantaro yenda gusa ivu ndetse n'inkweto zisa umukara.

Amabase menshi ari mu mabara atandukanye icyatsi ndetse n'ubururu. Iruhande rwayo hateretse imyeyo myinshi yifashishwa mu gukubura kugira ngo ahantu habe hasa neza. Hari kandi n'amakamba yifashishwa mu kuzirika amatungo.

Aba mama ndetse n'abandi bitegura kurushinga bakenera ibitenge cyane kuruta indi myenda yose, umugabo wifashe ku zuru ahagaze mu bitenge bisa nk'aho ashaka kugurira umugore we igitenge.

Abadamu ndetse n'abagabo bateraniye ahantu mu isoko, imbere yabo haturetse udukoresho dusa icyatsi ndetse n'amabase asa umutuku, harimo imboga z'ubwoko butandukanye higanjemo imiteja.

Inyubako ifite ibyumba byinshi bitandukanye, ifite ubusitani bwiza butanga akayaga kubantu baje kuhicara. Hari kandi ubwogero bugari buzwi ku izina rya pisine.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo kugendamo ipikipiki itwawe n'umumotari wambaye ijire, ahetse umugenzi bose bambaye kasike zisa orange, zishobora kubarinda kwangirika kumutwe mugihe bakoze impanuka.

Ipikipiki iriho umumotari ndetse n'umugenzi ukikiye umufuka ndetse ahetse n'igikapu mu mugongo. Irimo kuva mu gahanda yinjira mu muhanda munini wa kaburimbo. Harimo izindi modoka ebyiri ziri kugenda. Imbere yazo hari indi modoka nini ya dayihatsu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki y'ubwoko butandukanye yose ari kugenda mu cyerekezo gisa nk'aho ari kimwe. Umumotari ndetse n'umugenzi wambaye agapira k'umuhondo, hirya yabo hari izindi nyubako za etaje.

Inzu ziri mu mabara y'ubururu, imbere handitseho icyapa cya pirimusi, ziri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, urimo kugendamo ipikipiki, umumotari yambaye umupira w'umutuku ndetse na mugenzi ahetse.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo kugenderamo ipikipiki, iriho umugenzi w'umumama, wambaye agapira kadafite amaboko, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho, mirongo itandatu, iruhande rw'icyo cyapa, hari amazu asa umweru.

Umumotari uhetse umugenzi ku ipikipiki, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo bonyine. Iruhande rwaho hari akayira k'abanyamaguru ndetse hashinze n'amapoto atwara amashanyarazi, mu ngo zitandukanye.

Amamoto menshi ari kugenda mu muhanda, imwe irahagaze iriho umumotari ndetse hari umugenzi umuhagaze iruhande, arimo kwambara kasike arimo araseka arishimye, bisa nk'aho yishimiye umumotari ugiye kumutwara.

Amapikipiki abiri yose ariho abayobozi bayo. Imwe iriho umuyobozi ndetse itwaye n'umugenzi wambaye silipa z'umutuku ndetse afite n'umufuka uri mu ibara ry'umutuku. Bahagaze iruhande rw'akazu gatangirwamo serivisi z'irembo.

Umugabo uhetse igikapu mu mugongo, ari gusunika igare, ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma ye hari abandi bantu bari kugenda mu cyerekezo ari kuvamo hirya gato hari inyubako ya etaje

Abagabo babiri bose bafite amagare bahagaze iruhande rw'inyubako ifite ibara risa ubururu, imbere y'iyo inyubako hateye ibiti bitatu birebire, hirya gato hari andi mazu ahubatse.